Icyapa kinini, kiriho umugabo wambaye akagofero n'amadarubindi. Icyo cyapa kiri mu mabara y'umutuku. Kikaba ari icyapa cyerekana cyangwa cyamamaza, ikigo cy'ubwishingizi. Ku ruhande rw'icyo cyapa hakaba hateye ibiti birebire kandi byinshi.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, agapira mu imbere k'ubururu ndetse n'ishati y'amaboko maremare y'ubururu akaba arimo araseka, ni ubutumwa bw'ikigo cy'ubwishingizi cya Saniramu kikubwira y'uko wabagana bakaguha ubwishingizi ukeneye kiri mu mabara y'ubururu.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko maremare, y'ubururu n'umugore wambaye ipantaro n'agapira k'umuhondo, bakaba bicaye bari guseka, akaba ari ubutumwa bw'ikigo cy'ubwishingizi cyibabwira ngo zigama none tera imbere ejo, ikimina cyacu kigushishikariza kujya mu k'indi hari na nimero wahamagaraho mu gihe ubishakiye.

Ibigori byinshi biteye, akaba ari ubutumwa cyangwa icyapa cy'ikigo cya RADIANT yacu, akaba ari ikigo cy'ubwishingizi, kiri kukubwira yuko ubwishingizi bw'ibihingwa babutanga, ubwishingizi bufasha mu ishoramari ritekanye, abahinzi bakabona umusaruro ushimishije bakwereke na nimero ubahamagaraho mu gihe ubashatse.

Icyapa kinini kiri mu mabara ya move. Kikaba ari icyapa cyamamaza company y'ubwishingizi. Ku ruhande hari ibyatsi byinshi ndetse biteye n'ibiti. Iruhande rwa ngaho hati hari umuhanda ucirwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'umutuku kikaba kiriho imbwa, kikaba ari ubutumwa bw'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, ku ruhande hakaba hari ibiti birebire bihateye ndetse icyo cyapa kiri ku byuma bisize ibara ry'ikigina.

Umwana urimo uraseka cyane akaba ari umwana w'umukobwa, ari ku cyapa kinini cy'amabara kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, ni icyapa cya kampani cyangwa ikigo cy'ubwishingizi, bakubwira ko ushobora no koboherereza SMS cyangwa ubutumwa bugufi kuri nimero ya mirongo itatu na rimwe icyenda kabiri gatandatu, icyo cyapa kiri ku nyubako ndende y'amagorofa menshi.

Uburyo ushobora koherereza umuntu amafaranga ukoresheje mobayiro mani, baratwereka aho ushaka kuzuza umubare w'amafaranga, aho ushobora kuzuza umuntu uri buyakire amazina ye, hano bakwereka ko umuntu urohereza amafaranga yitwa HIRWA Hubert n'impamvu imwoherereje amafaranga.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi hakaba hari umugore waje guhaha wambaye akantu mu mutwe ndetse yambaye n'ibitenge, mo imbere mu iduka hakaba hari umugore wambaye agapira k'amaboko magufi bakaba barimo barahererekanya ibintu. Muri iryo duka harimo ibicuruzwa bitandukanye yhiganjemo ibyo kurya.

Inyubako nziza iri mu mabara y'umweru n'umukara, ikaba ari inyubako icururizwamo ibintu bijye bitandukanye, hakaba higanjemo imyenda y'abana ndetse ni iy'abantu bakuru, harimo ndetse n'inkweto, ikaba ifite n'amatara menshi arimo araka.

Umugabo wambaye kositimu ndetse n'ishati y'umweru, akaba ari umuzungu. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse na karuvati, akaba ari umwirabura. Arimo aramwereka ukuntu, ibintu bikorwa, kuri, mudasobwa. Hirya hari andi mazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Umugore wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agasengeri k'icyatsi, akaba yambaye n'ipantaro. Iruhande rwe hari undi mugore nawe uri guseka bombi bakaba bari guseka. Akaba arimo arishyura. Asa nk'umaze guhaha. iyo nyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye. Higanjemo imyenda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijye bitandukanye ku ruhande hari utuyiya tw'abanyamaguru, hepfo y'utuyira tw'abanyamaguru hari amazu menshi kandi maremare ahubatse hakaba ndetse hari n'ibyatsi n'indabyo bikikije umuhanda.

Abagabo batatu bahagaze, bakaba mu ntoki bafashe igipapuro kiri mu ishusho y'urufunguzo, cyanditseho Akagera Motos, inyuma yabo hari imodoka nziza, bigaragara yuko bamaze kugura imodoka, aho ni ahantu bagurishiriza amamodoka, ku ruhande hakaba hari n'amazu abakikije.

Abagabo babiri bahagaze umwe ni umwirabura undi ni umuzungu, barimo barahererekanya igipapuro gikoze mu ishusho y'urufunguzo, iruhande rwayo hakaba hari imodoka nziza nshyashya basa nkaho bamaze kugurirana imodoka, aho ni ahantu bacururiza imodoka iruhande rwabo hari inzu ndetse hari n'ibyatsi ndetse n'indabyo bihateye.

Imodoka nziza nini y’umweru ku ruhande hakaba hari izindi modoka nyinshi zihaparitse. Izo modoka ni shyashya, ziri mu nyubako nini itwikiriye, ifite ibikuta by’umweru. Aho ni ahantu bacururiza imodoka.

Abagabo babiri bambaye amapantaro ndetse n'amashati, bari guhererekanya urupapuro rukoze mushusho y'urufunguzo, inyuma yabo hari imodoka nziza kandi shyashya yo mu bwoko bw'igikamyo, bisa nkaho bamaze kugura imodoka, aho hantu ni ahantu bagurisha imodoka, hiryaho hari amazu maremare ndetse n'ibiti.

Abagabo babiri bahagaze; bakaba barimo barahererekanya igipapuro gikozwe mu ishusho y'urufunguzo. Inyuma yabo hari imodoka nziza nshyashya iri mu bwoko bw'ikamyo, bakaba barimo baragura imodoka. Aho ni ahantu hacururizwa imodoka. Ku ruhande hari inzu nini ikorerwamo n'iyo kampani.

Imodoka nziza iri mu mabara y'umweru ikaba ari imodoka nshyashya, ikaba iri mu bwoko bwa Suzuki bibiri na cumi n'umunani, ikaba ari imodoka igurishwa miliyoni cumi n'umunani z'amafaranga y'u Rwanda, ahantu iparitse ku ruhande rwayo hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi bihateye.

Abantu babiri, hari umugabo wambaye ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko magufi y'umukara n'undi wambaye ipantaro nshya y'amamoboko maremare y'umweru, bari guhererekanya igipapuro gikoze mu ishusho y'urufunguzo, inyuma yabo hari imodoka nini iri mu mabara y'umweru, umukara bisa nkaho barimo baragura imodoka, aho ni ahantu bagurishiriza imodoka.

Umugore wicaye ku ntebe y'umweru akaba yambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari icyuma kinini kiri mu mabara y'umweru n'ubururu kibika amata kugira ngo adapfa, hari akabido arimo aravomamo amata yakuye muri iki cyuma, iyi nyubako ni inyubako icururizwamo amata ndetse n'ibindi bintu biyaherekeza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata akaba ari umugore wambaye igitenge wicaye akaba bari kumuha igikombe cyuzuyemo amata hari n'umugabo umuri iruhanande wambaye ingofero n'ikoti nawe uri kunywa amata hari umugabo usa nkaho ukora ahongaho uri gutanga ibyo kunywa iyo nzu harimo n'ibindi bicuruzwa nk'amandazi amazi ndetse n'ibindi

Iduka rinini akaba ari iduka ricururizwamo amata ndetse n'ibindi biyaherekeza rikaba rifite imiryango y'ubururu ndetse hakaba hari imeza iriho indobo zigiye zirimo ibicuruzwa nk'amandazi, amakeke ndetse n'ibindi.

Inyubako icururizwamo amata ikaba ndetse incururizwamo n'ibindi bigendana nayo harimo nk'amandazi, amakeke ndetse n'amazi, hari etajeri igiye irimo ibicuruzwa bindi bitandukanye. Iyi nyubako ifite inkuta zisize amabara y'umweru n'ubururu.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hakaba hari icyuma kinini barimo barasukamo amata, iki cyuma gifasha mu kurinda kwangirika kw'amata, hari abantu bandi bari muri iryo duka, iryo duka ririmo n'ibindi bicuruzwa birimo ibyo kurya.

Inzu icururizwamo amata n'inzu irimo icyuma gifata amata kikayabika kugira ngo atangirika ku ruhande hari ikindi cyuma kirimo amata akaba asendereye, hari umukobwa wambaye akakabutura kiiroza ndetse n'umupira w'amako maremare y'umweru kaba aje gusaba serivisi zigiye zitandukanye ndetse abantu bakaba bacuruza n'ibindi bintu bigendana n'amata.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amata ndetse n'ibindi biyakomokaho hari icyuma kinini kiri mu mabara y'umweru n'ubururu kibika amata kugira ngo adapfa, akaba ari na ka etajeri karimo ibicupa bisakazwamo amazi mu baturage, hari ndetse muri etageri amaji ndetse n'amafanta, ahahantu hakaba hari n'intebe abantu bakwicaraho baje kugira ikintu bafata.

Umugore wambaye akashati k'umukara k'amaboko magufi afite ijerekani mu ntoki, arimo arasuka amata ayakura mu ijekani ayashyira mu matasi, iruhande akaba hari ndetse na meza abantu bakwicaraho baje kugira icyo bafata, aho hantu bacuruza amata ndetse n'ibindi bintu biyakomokaho.

Abagabo babiri umwe yambaye furari mu ijosi ndetse n'ikoti, undi nawe yambaye ishati n'ikoti ry'umukara, umwe akaba afite telefone arimo aramwereka, ni ubutumwa bwa apulikasiyo ya Sipini igaragaza yuko wasangiza inshuti yawe ibyiza bya Spini ubatumira, ukaba utsindiye amafaranga magana atanu kubera inshuti utumiye.

Ubutumwa buri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku akaba ari ubutumwa bw'ikigo cya Eyateri kikubwira y'uko ubonye amafaranga magana atanu kuri konti yawe ya Eyateri mani kikaba kigushishikariza y'uko wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare, mu ntoki ze akaba afite telefone, iyo telefone irakwereka yuko ushobora kwishyura amafaranga magana atanu ukabona megabati magana inani, ushobora ku ishura ukoresheje MOMO cyangwa amayinite asanzwe, ni ubutumwa bwa Emutiyene mobayiro mani ikwereka yuko yuko wakwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, wakanda akanyeri gatatu, kane, gatanu.

Ibiro bicururizamo amafaranga y'abanyamahanga ndetse bikanahindura amafaranga agiye atandukanye, harimo abantu baje gusaba serivisi, hari n'abandi bicayemo barimo baratanga serivisi, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'ikayi n'ikaramu.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, akaba ari inyubako y'igorofa rimwe, ku ruhande hakaba hari tuyira twa'ayamaguru, hakaba hari ndetse n'umuryango ukorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga y'amanyamahanga cyangwa guhinduderanya kw'amafaranga yo muri iki gihugu na y'amanyamahanga, hari abantu hanze bari gutambuka ndetse hakaba hegereye n'umuhanda.

Umukobwa wambaye inkweto ziri mu mabara y'umweru n'umukara, ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira w'umutuku, akaba afite na telefone mu ntoki, arimo arasohoka mu nyubako, ni inyubako nini ikorerwamo n'ikigo gicuruza amafaranga y'amanyamahanga cyangwa kiyahindura, hakaba hari ibyapa binini biri mu mabara y'umuhondo, umweru n'umutuku, bikwereka ko ahantu hakorerwamo n'icyo kigo.

Abantu begereye ahantu bakirira abakiriya. Bakaba baje gusaba serivisi. Ni mu nyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga y'abanyamahanga ndetse umuntu hinjira amafaranga asanzwe. Bari mo imbere harimo abantu baj baje kwakira abo bakiriya. Imbere yabo hari za mudasobwa. Ni aho hantu hari ibyapa binini by'ubururu byerekana ko bakora ibyo bikorwa.

Akazu gatonya kari mu mabara y'umuhondo, kakaba gafite amadirishya n'imiryango y'umweru, kakaba gatangirwamo serivisi zo guhindura amafaranga, y'amanyamahanga ndetse no kuyagurisha, ku ruhande hari ndetse n'andi mazu ahubatse.

Ni inyubako nini ikaba ari inyubako y'igorofa rimwe, ikaba ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba hari iduka rimwe rikorerwamo n'ikigo gitanga cyangwa gihindura amafaranga y'abanyamahanga, hakaba hari icyapa kinini cyerekana iryo duka, hari na telefoni wahamagaraho igihe ubashakiye, ku ruhande rw'iyo nyubako hateye ibiti birebire kandi byinshi.

Inyubako nini y'amagorofa menshi, ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye hakaba hari n'umuryango ukoreramo ikigo gishinzwe gutanga amafaranga y'abanyamahanga cyangwa kuyahinduranya, ikaba ifite imiryango y'kigina ku ruhande hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro ndetse n'akajiri, hirya hari akayira k'abanyamaguru.

Inyubako icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye bikomoka ku mbaho, hakaba harimo intebe, utubati, ameza ndetse n'ibindi, iyo nyubako ifite amatara menshi mu imbere agiye yaka ndetse n'inkuta zabo zikaba zisa umweru.

Inyubako nini y'amagorofa menshi, ikaba icumbikira abantu by'igihe gito, ikaba izwi nka hoteli hanze ifite aho abantu bakwicara hari intebe nziza ziri mu mabara menshi, ndetse hariho n'imeza hari n'ibiti bijye biteye mu mavase hanze aho ngaho.

Inyubako nziza kandi nini. Ni inyubako yubakishije amatafari ahiye. Ni inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteri. Ku ruhande rwaho hakaba hari imodoka ziparitse bimeze nk'ago abantu baje gufata serivisi muri hoteri. Kandi iyo nyubako ikikijwe n'ibyatsi n'ubusitani bwiza ndetse n'ibiti birebire bihateye.

Inyubako nziza kandi nini ikaba ari inyubako y'amagorofa menshi, ikaba ari inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteri, hanze hakaba hari aho abantu bogera mu buryo bwa rusange hazwi nka pisine, ku ruhande hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Inyubako nini ikaba ifite amagorofa menshi, ikaba igiye kuhande hari uduti duteye mu mavase tukaba ari inyubako icumbikira abantu mu gihe gito izwi nka hoteli ikaba ikikijwe n'ubusitani bunini kandi bwiza buteyemo ndetse n'ibiti.

Inyubako nini abantu bacumbikamo by'igihe gito izwi nka hoteli, hanze hakaba hari intebe zihari ndetse n'imeza, ku meza hariho isahani, ibyo kunywa ndetse n'uturabo tuhateye, hakaba hari ndetse n'imbuto, hirya hari ibyatsi byinshi bikikijwe n'ibiti ndetse n'ubusitani bwiza.

Intebe nziza zegeranye n'imeza, iyo meza iriho igitambaro cy'umutuku, ikaba iriho isahani, ku isahani hakaba hariho ibiryo ndetse hari n'icyo kunywa ku ruhande, aho hantu hakaba ari ahantu hacumbikira abantu mu buryo bw'igihe gito hazwi nka hoteli, iruhande rw'iyo hoteli hari ibyatsi birebire ndetse n'ibiti bihateye.

Inyubako icumbikira abantu by'igihe gito, ikaba izwi nka hoteli. Ifite ibikuta by'umuhondo. Amadirishya n'inzugi zikaba zifite ibara ry'umukara. Hari aho abantu baba bicaye mu gihe bategereje guhabwa serivisi. Harimo intebe ndetse n'ameza. Hakaba hari ndetse n'amakaro y'umweru.

Inyubako nziza ikaba ari inyubako y'amagorofa menshi, ifite ibikuta by'umweru ndetse ikaba ifite n'igitanda cyiza gishashe neza, hari ndetse n'insakazamashusho iri muri icyo cyumba. Inyubako icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hoteli hanze yayo hakaba hari ibiti byinshi bihateye.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba ari inyubako y'amagorofa menshi, inyubako icumbikira abantu mu gihe gitonya izwi nka hoteli, hanze hari udutebe twiza ndetse n'utumeza tuhari abantu bakwicaraho baganira cyangwa bafungura, hari n'amavaze agiye ateyemo ibiti, iruhande rw'iyo nyubako hari ibiti birebire bihateye ndetse n'ibyatsi.

Inzu nini y'amagorofa menshi; ikaba ari inzu icumbikira abantu by'igihe gito izwi nka hotel, ikaba izengurutswe ndetse n'ibyatsi n'ibiti, hanze hakaba hari ubwogero rusange buzwi nka pisine, ku ruhande hari udutebe ndetse n'imitaka itwikira izo ntebe kugira ngo abantu bazicaramo baticwa n'izuba cyangwa n'imvura.

Abakobwa, umwe akaba yambaye ishati y'umweru undi yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara, bakaba bameze nk'aho bari ahantu bakirira abantu, muri iyo nyubako hari imitako myinshi ndetse n'insakazamashusho iri ku gikuta, iyo ni inyubako yakira abantu baje gucumbika by'igihe gito izwi nka hoteli.

Ibiro bikorerwamo n'ikigo cy'ubwishingizi, ibyo biro bikaba biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, ku nkuta hari ifoto y'umugabo wambaye amadarubindi ndetse na kositimu, muri ibyo biro harimo intebe z'umukara ndetse n'ameza asize amabara y'umukara n'umutuku.

Inzu nini kandi nziza ikaba ikorerwamo n'ikigo cy'ubwishingizi cya radiyanti, ikaba irimo intebe z'umukara ndetse n'imeza y'umweru. Iyo nzu ahazi ifite amakaro y'umweru ndetse n'ibisenge byayo ni'u umweru imiryango yayo ikaba izize amabara y'umukara.

Inyubako nini ikorerwamo n'ikigo cy'ubwishingizi, iyo nyubako imiryango yayo ikaba isa umweru ndetse hakaba hariho ibyapa biriho na nimero uhamagaraho mu gihe ubashakiye, kuruhande haparitse imodoka ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu ndende ikaba ari inzu iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo ikaba ifite amagorofa menshi hari aho binjirira ndetse ku ruhande rw'aho hari utuyira tw'abanyamaguru hakaba muri iyo nzu hateye ibyatsi ndetse hari n'ibiti birebire akaba ari inzu ikorerwamo na compani y'ubwishingizi.

Inyubako ikorerwamo na Kampani y'ubwishingizi, ikaba irimo abantu bicaye imbere yabo hari imeza iriho za mudasobwa amakayi ndetse n'ibindi, hakaba n'abandi baje gusaba serivisi, akaba ari inyubako ifite ibikuta by'umweru.

umuhanda munini uca mu ibinyabiziga bijye bitandukanye kurande hakaba hari inzu nini ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi ikaba iyo nzu ifite amagorofa menshi hakaba hari ku ruhandetuyi tw'abanyamaguru abantu bagenda bacamo ndetse hakaba hateye ibyatsi n'ibiti birebire

Inyubako nini ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye. Ikaba isize amabara y'uburu ndetse n'imiryango ifite amabara y'ubururu. Mo imbere hagiye harimo ibiro umuntu agendamo agahabwa serivisi zitandukanye. Hari intebe wakwicaramo mu gihe utegereje guhabwa serivisi. Iyi nyubako ikorewemo n'ikigo gitanga ubwishingizi ndetse hakaba hakorerwamo izindi serivisi nk'iz'irembo, iza banki ndetse n'izindi.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu nama bicaye ku ntebe z'umukara imbere y'abo hari imeza iriho icyo kunywa cy'amazi, utuntu two kwihanaguraho, amatelefone, amakaye ndetse n'ibindi. Harimo abagabo ndetse n'abagore, iyo nyubako barimo ifite ibikuta by'umweru.

Ni inyubako ikorerwamo ikigo cy'ubwishingizi, mu imbere mu biro hari intebe, hakaba hari umugabo wicayemo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati' y'umutuku, hakaba hari n'imeza iteretseho mudasobwa, amazi yo kunywa ndetse n'ibindi, umugabo ameze nkaho ategereje guhabwa serivisi.

Inzu nini kandi ndende, ni inzu y'amagorofa menshi, ni inzu ikorerwamo ikigo cy'ubwishingizi, kikaba kiri mu mabara y'umweru, iruhande rwayo hari ibyatsi bihateye birebire ndetse hakaba hari n'ibiti n'indabo.

Inyubako nini ikaba ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi, ikaba ifite inkuta z'umukara ndetse akaba ari abantu bicaye bategereje ababagana, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo ndetse hakaba harimo abirabura ndetse n'abazungu.

Inyubako ikorerwamo na kampani y'ubwishingizi, hakaba hari umugabo wicaye wambaye amadarubindi, yicaye ku ntebe y'umukara, imbere ari mudasobwa, hakaba ari aho bakirira abantu, muri ibyo biro harimo n'isakazamashusho, ndetse n'ibyapa bigaragaza iyo kompani.

Inyubako nziza ikaba ari ibiro, bikorerwamo na kampani y'ubwishingizi, mu imbere inkuta zisa umweru ndetse n'amakaro hasi asa umweru harimo intebe abantu bicaho bategereje guhabwa serivisi, hakabaho abantu bakoreramo ngo bicara imbere hakaba hari meza aririmo mudasobwa ndetse muri iyo nzu, harimo n'imitako y'imigongo nyarwanda.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati akaba arimo araseka ku ruhande hari n'umukobwa wambaye ikositimu ndetse na we yifashe neza, akaba ari ubutumwa bw'ikigo gitanga inguzanyo ndetse kigatanga n'izindi serivisi kikubwira ko kirimo kirashaka abakozi kikaba kigushishikariza kwandika usaba akazi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abicaye ndetse n'abahagaze, bakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba iyo inyubako ifite ibikuta by'ubururu ndetse n'icyatsi, hari n'ifoto nini y'umugabo wambaye ikositimu n'amadarubindi, ku ruhande hakaba hari insakazamashusho, iyo nzu ikorerwamo n'ikigo gitanga inguzanyo.

Umukobwa wambaye ikanzu, akaba afite na mudasobwa mu ntoki, akaba ari guseka, ubutumwa bwa banki ya BPR, ikaba iri mu mabara y'ubururu, ndetse n'icyatsi, bikubwira ko ushobora kohereza amafaranga mu buryo bukoroheye.

Abantu benshi bari mu cyumba cya ekwiti bavanze abagabo n'abagore hari ameza iteretseho icupa ry'amazi yo kunywa imeza ifunitse n'igitambaro cy'umweru zitsa agatambaro k'umutuku, harimo umugabo wambaye ikositime isa n'ibara ry'ubururu n'ishati y'umweru, umukobwa wambaye akajipo n'agashati isa nk'aho yambaye imyenda yo kujyana mu mukazi.

Umugore ufite telefoni mu ntoki yambaye ikanzu ndetse n'agashati k'amaboko magufinya akaba arimo araseka, ni ubutumwa bw'ikigo cya banki ya Bipiyeri kikubwira y'uko wakwishimira kohereza amafaranga, kwishyura imisoro, kwishyura ibindi bigiye bitandukanye, kugura amayinite utiriwe ujya aho iyo banki ikorera ukaba ushobora kubikorera kuri telefoni.

Abantu benshi bari hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, kikaba ari icyapa cyamamaza igitaramo, kikaba kiri mu mabara y'ubururu kikubwira yuko ushobora kwibonera itike yawe nziza ukoresheje uburyo bagenda bakubwira.

Ubutumwa buri mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo. Ni iki ikigo cya banki kikubwira ko ushobora kubona inguzanyo z'amashuri yawe mu Rwanda, ukaba wabona inguzanyo ku mashuri abanza, amashuri yisumbuye ndetse na za Kaminuza. Hasi hari uburyo wababonaho nka nimero wabahamagaraho ndetse n'izo wabandikiraho.

Abantu benshi bahagaze abandi bicaye, ni urujya n'uruza rw'abantu barimo baragenda mu isoko, hakaba hari abakiriya ndetse n'abacuruzi bategereje abaguzi, mu bicuruzwa bimwe biri mu isoko harimo: imyenda, imipira, amapantalo ndetse n'ibindi.

Abagore bicaye hakaba hari n'urujya n'uruza rw'abantu benshi bari gutambuka, aha hantu hakaba ari mu isoko abantu baza kwihahirira ibintu bigiye bitandukanye, bimwe mu bicuruzwa bihari harimo ibyo kurya nk'inyanya, intoryi, ibitunguru, imboga, amashaza ndetse n'ibindi.

Abagore bamwe bicaye abandi bahagaze, iruhande rwabo hari utumeza tugiye turiho ibiribwa, higanjemo ibyo kurya nk'imineke, inyanya, imyembe ndetse n'ibindi, hakaba aho hantu ari mu isoko hari urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha.

Inyubako nini ikaba ari inyubako y'amagorofa menshi, ikaba yegeranye n'umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu bamwe bagenda binjira abandi basohoka, akaba aho hantu ari mu isoko, hakaba ndetse hari na polisi igenda ishyira abantu ku murongo kugira ngo bidateza impanuka.

amazu agiye akurikiranya akaba ari mu mabara y'icyatsi b'imbere harimo ibicuruzwa byinshi byiganjemo imifuka na za kawunga imiceri ndetse n'ibindikaba ari amazu akorerwamo ubucuruzi hanze hari abantu bamwe baje kugura abandi bakaba bikorera imizigo ayo mazu yegeranye n'utuyira tw'abanyamaguru.

urujya n'uruza rw'abantu benshi bari gucacanamo, hakaba aho hantu ari mu isoko, hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye higanjemo amashakoshi, imyenda, ibitenge ndetse n'ibindi, hari n'umugore wicaye umeze nkaho akora akazi k'ubudozi akaba nawe ategereje abakiriya.

Umugore wambaye agasengengeri ndetse akaba akenyeye n'igitenge, imbere ye hari ibiribwa byinshi bigiye biri mu dusorori ndetse n'utubase, hakaba higanjemo imyembe, intoryi, inyanya, amaronji, avoka ndetse n'ibindi, aho hantu hakaba ari mu isoko hari n'abandi bantu bategereje abaguzi.

Umugore wicaye wambaye ibitenge ndetse hejuru yambaye agapira k'umukara k'amaboko maremare, imbere yari amabasi agiye arimo amafi, amabasi arimo hamwe harimo amafi arimo aragenda ayatonora ayashyira ku yindi basi, hirya hari n'abandi bagore bicaye, ahantu abantu bari ni ahantu bigaragara ko ari mu isoko ricururirwamo ibiribwa cyane cyane inyamaswa nk'amafi ndetse n'ibindi, akaba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi.

Abagore benshi bamwe bahagaze abandi bicaye, bakaba bakenyeye ibitenge, iruhande rwabo hari ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibiryo nka avoka, imyembe ndetse n'ibindi, hakaba hari ahantu bakura ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Iyo nyubako ikorerwamo nk'isoko hakaba hari n'abantu baje guhaha ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi, bakaba bamwe baje guhaha abandi ari abacuruzi bategereje abaguzi, aho hantu ni mu isoko, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bimwe muri byo ni amashakoshi, uduseke, imitako ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu, akaba ari umugore wambaye igitenge, imbere hari ameza ariho ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibyo kurya, harimo inanasi, pome, imineke ndetse n'ibindi, hakaba hari n'abantu baje kugura, aho hantu ni mu isoko.

Abantu benshi barimo barinjira abandi basohoka, hakaba hari abagore bicaye bategereje abakiriya, iruhande rwabo hari meza iriho ibiribwa bijyiye bitandukanye nk'inyanya, ibitunguru, imiteja, amashaza ndetse n'ibindi ahantu hakaba ari mu isoko abantu barimo baraza bahaha ibyo bakeneye.

Umugore wambaye ikanzu nini iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu imbere ye hakaba ari ibase irimo amashaza ku bandi hari imifuka iriho imiceri, ibishyimbo, inyanya ndetse n'imineke, ahantu akaba ari mu isoko ategereje abakiriya.

Abantu bicaye ku ntebe hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo iruhande rwabo hari utubati turiho imyenda imwe ikaba imanitse indi iraho bisanzwe hakaba ari ahantu mu isoko bamwe ari abaguzi abandi ari abacuruzi baje bategereje abaguzi.

Ibiribwa biri ku meza, ibyo biribwa harimo insenda, intoryi, inyanya, pavuro, sereri ndetse n'ibindi, bikaba bigiye bitonze ku murongo, aho hantu akaba ari mu isoko aho abantu baza kwihahira ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi n'ikoboyi, akaba acuruza ibiraha afite indobo yuzuye ibiraha, hakaba hari abagore bahagaze imbere baje guhaha, ku ruhande hari urujya n'uruza rw'abantu bagenda batambuka, muri iyo nyubako ni mu isoko harimo bamwe baje guhaha abandi ari abacuruzi bategereje abakiriya.

Abantu benshi bari hamwe hakaba aho hantu ari mu isoko, hari urujya n'uruza rw'abantu abagore ndetse n'abagabo, hakaba hari abantu bicaye bategereje abaguzi, mu bicuruzwa biri muri iryo soko harimo imyenda, inkweto, ibikapu ndetse n'ibindi.

Umugore wambaye ijipo ndetse n'agapira, hirya hari n'undi mugore nawe ufite akashakoshi ku rutugu, bakaba ari abakozi b'abacuruzi, imbere yabo hakaba hari amameza ariho ibicuruzwa bigiye bitandukanye higanjemo ibyo kurya nk'inanasi, imineke, amaronji, inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi aho hantu ni mu isoko bakaba bategereje abaguzi.

kazu kari mu mabara y'umuhondo, kakaba ari akazu gatangirwamo serivisi za MTN mobile man, zirimo kubitsa, kubikuza ndetse n'ibindi, hari utuyira tw'abanyamaguru ku ruhande, abanyamaguru baka barimo baraducamo ndetse hakaba n'amazu yubatse hirya, hari n'ibyatsi bigiye bizengurutse aho hantu.

Abantu benshi bari hamwe. Bakaba batonze umurongo bari mu kantu gafite amabara y'umuhondo. Ako ni akantu gatangirwamo serivisi za emutiyene mobayiro mani. Iryo tente riri mu mabara y'umukonndo ndetse hakaba handitseho n'uburyo wabasha guhabwa izo serivisi. Ukanze akayenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego. Aho hantu abantu bari hari ibyatsi ndetse n'amapoto maremare asakaza amashanyarazi mu baturage.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bakaba iruhande rwabo hari akazu kari mu mabara y'umuhondo, ni akazu gatangirwamo serivisi za Mobile Money zirimo kubitsa, kubikuza, kohereza ndetse n'izindi. Hakaba mo imbere harimo abantu barimo barahabwa serivisi.

Umugabo wambaye ipantaro ndetse n'apira k'amaboko magufi akaba ahetse igikapu mu mugongo, ari mu nyubako ifite ibikuta bifite ibara ry'ikigina ndetse imbere hari abagabo bambaye udupira tw'umuhondo, imbere yabo hari mudasobwa iyo nyubako ukaba yayiboneramo serivisi za mobileman bakaba barimo baramufasha.

Abantu bambaye amapantaro ndetse n'amashati, bakaba bafite n'ibikapu mu mugongo, bakaba bari mu mutaka uri mu mabara y'umuhondo, bakaba baje gusaba serivisi za emutiyeni mobayiro mani zirimo kubitsa, kohereza, ndetse no kohereza amafaranga, ku ruhande hari inyubako zindi zikorerwamo ubucuruzi, hakaba hari n'abantu bari kugendagenda mu muhanda.

Abantu benshi batonze umurongo baje gusaba serivisi bakaba bari mu gatente gatonya gafite amabara y'umutuku hari n'abantu bambaye udupira tw'umutuku n'ingofero z'umutuku barimo baratanga serivisi aho hantu wahabonera ibijyanye na Eyateri mani byose.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo. Akaba ari akazu kanditseho Mobile Money. Akaba ari akazu waboneramo serivisi zose za Mobile money ukeneye. Hakaba hari umugore uri hanze waje gufata cyangwa gusaba serivisi runaka za MTN Mobile money. Aho hantu ako kazi kari, hakikijwe n'andi mazu ndetse n'ibiti birebire.

Abagabo babiri barimo baraceza, ku ruhande rwabo hari abakobwa bambaye udupira hejuru tw'umuhondo, ndetse hakaba hari n'undi nawe wambaye agapira k'umweru, ahantu bari hakikijwe n'ibyapa binini biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku bya NTN izihirwe, akaba ari ahantu wabonera serivisi za MTN, za MTN mobayiro mani.

Abantu benshi bakikije akazu kari mu mabara y'umuhondo, kakaba ari akazu gatangirwamo serivisi za mobiyiro mani, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, mo imbere harimo umugore urimo uratanga serivisi, iruhande rw'aho kazu hari ibiti birebire bihateye ndetse n'ibyatsi.

Umugabo wambaye ikoboyi, agapira k'amaboko magufi, k'ubururu ndetse n'akajiri, yambaye na kasike. Akaba ari umumotari, kuri moto ye inyuma hariyo ahantu arimo aragenda akuramo ibikapu, uko bigaragara arimo arageza ku baguze ibintu bakoresheje murandasi, iruhande rwe hari umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ndetse hari n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari umumotari, uhagaze wambaye kasike ndetse n'akajire inyuma yayo afite akantu karimo ibiryo akaba ari kugeza ku baguze ibyo biryo kuri murandasi, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti byinshi ndetse hari n'amazu.

Abamotari bahetse abagenzi, bakaba bambaye kasike z'icyatsi, bari mu muhanda rwagati, hirya yabo hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse ahantu bari hari na amazu akikije utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hateye n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi, bakaba bakwereka yuko ushobora ku kugezaho ibintu waguze kuri murandasi utiriwe ugera aho bigurirwa.

Umuhungu wambaye amadarubindi akaba afite ingofero mu mutwe ndetse yambaye n'agashati k'icyatsi mu mugongo ahetse igikapu kinini cy'icyatsi, bikaba ari ubutumwa bw'ikigo gishinzwe kukugezaho ibintu waguriye kuri murandasi cya vuba vuba kikubwira y'uko watanga ibintu aka kanya bakabikugezaho.

Inyubako nini, ikaba irimo abantu benshi bambaye utuntu mu mutwe tw'umweru, ndetse n'amataburiya maremare asa nk'ubururu bwijimye, hakaba harimo ibicuruzwa byiganjemo ibitoki, bamwe barimo barabipakira, abandi bari kubi bipima ngo barebe ukuntu bingana, hakaba hari uburyo ushobora kubitumiza ukoresheje murandasi.

Inzu nziza nini ikaba hejuru ifite ibisenge by'umweru, bikaba inkuta zaho nazo ari umweru ifite aho batekera heza hagezweho kandi hanini. Ikaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi bibiri by'amafaranga y'amadorari y'amanyamerika ku kwezi iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu nziza kandi nini ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse ifite n'igikoni kigezweho iherereye Kabeza i Kigali ikaba ikodeshwa magana atanu mirongo itanu y'amadorari ku kwezi, hakaba hubatse n'andi mazu iruhande rw'iyo nyubako.

Inzu nziza ifite ibikuta by'umweru ndetse ikaba iriho n'amarido y'umukara, hari igitanda gishashe neza kirimo mu cyumba, inzu ni icyumba kimwe iherereye i Kigali Kabeza, ikaba ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu nziza ikaba ifite ibikuta biririmo ibara ry'umweru ndetse n'amatara meza, ikaba hari n'imitako iri muri iyo nzu, hari imeza nini iriho ibyo kurya, aha hantu bakaba bameze nk'aho ari aho barira, hari ndetse n'intebe ku ruhande, hakaba hari n'akavaze karimo igiti cy'umutako.

Inzu nziza. Ikaba ifite ibikuta by'umweru. Mo imbere mu ruganiriro harimo intebe nziza ndetse n'imeza. Hakaba hari n'insakazamashusho iri ku gikuta. Iherereye i Kigali kibagabaga. Ikaba ikodeshwa magana inani y'amadolari ku kwezi.

Inyubako nziza kandi nini, ni inyubako iri mu mabara y'umuhondo, ifite imiryango n'amadirishya biri mabara y'umweru n'umukara, Hirya y'iyo nyubako hari izindi nzu zihubatse, ikaba iherereye kicukiro kagarama i Kigali, ikaba igurishwa imiliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nini ikaba ifite imiryango y'umukara inkuta z'ikaba zisize ibara ry'umuhondo, hanze hakaba hari udutebe tuhari ndetse n'akameza, hari ndetse n'ibiti bihateye hirya ni inzu iherereye i Kigali kibagabaga, ifite ibyumba bitanu.

Inzu nziza, iyo nzu ikaba ifite ibikuta bisize ibara ryera, akaba ari n'igitanda cyiza gishashe kandi amadirishya akaba azengurutswe n'amarido, iyo nzu iherereye Kigali Kabeza, ikaba ikodeshwa magana atanu mirongo itanu by'amadolari y'Abanyamerika ku kwezi.

Inzu nini kandi nziza ikaba ari inzu igurishwa, hakaba hari ubusitani bugiye buteye hanze yayo harimo indabyo ndetse n'ibiti, iruhande rw'iyo nzu hubatse n'izindi nzu, hakaba ndetse hari naho bogera mu buryo bwa rusange hazwi nka pisine muri iyo nyubako.

Inyubako nziza kandi nini. Ikaba ifite ibikuta bisize amabara y'umuhondo, amadirishya akaba asize amabara y'umukara. Hirya y'iyo nyubako hakaba n'izindi nyubako zihari. Inyubako ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongwitatu z'amafaranga y'u Rwanda ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu nziza ifite mu ruganiriro heza, inkuta zaho zisize ibara ryera, ndetse hariho isakazamashusho n'intebe nziza z'icyatsi, iyo nzu iherereye i Kigali Kabeza ikaba ikodeshwa amafaranga magana atanu mirongo itanu y'amadorari ku kwezi, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba iri mu mabara y'umuhondo ndetse ikaba hanze ifite amapave, inyubako iherereye i Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ni inzu ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inyubako nziza y'igorofa rimwe, iruhande rwayo hari ibiti bihateye ndetse n'ibyatsi, ifite imiryango y'umukara, ikaba ifite ibyumba bitatu, iherereye i Kigali ku Irebero, ikodeshwa amafaranga ijana y'amadolarari y'Amanyamerika ku munsi.

Inzu nini iherereye i Kigali mu Rwanda, ikaba inzu y'amagorofa menshi isize amabara y'umweru, ni inzu igurishwa, ikaba igurishwa miliyoni magana atatu mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda ukaba uyishaka wayibaza kuri Kigali reyalisite.

Inzu nziza ikaba isize amabara y'umutuku ndetse n'ubururu. Ikaba ifite ibyatsi hanze ndetse biteyemo n'indabyo iherereye i Kigali Kimironko ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda ku kwezi.

Inyubako nziza kandi nini, ifite amabati y'umukara, ifite ibikuta bisize amabara y'umweru, ikaba ari inyubako nini, ishobora guparikwamo imodoka eshatu, iherereye i Kigali i Kanombe, ikaba ishobora kugurishwa miliyoni mirongo icyenda neshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza y'igorofa rimwe, ikaba iri mu mabara y'umweru, imiryango ikaba isa umukara, hakaba hanze hari utu vase duteyemo ibiti duhari, ikaba igurishwa ibihumbi ijana na mirongo ine by'idorari, iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inyubako nziza iri mu mabara y'ikigina, ikaba ifite amabati y'umutuku, hanze hari ibyatsi bihateye ndetse n'indabyo, ikaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'u Rwanda ku kwezi, ifite ubwogero butatu, iherereye i Kagarama.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba ituye ahantu hisanzuye ku buryo wabona n'aho uparika imodoka, ku ruhande hari ibyatsi biteyemo ibiti ndetse n'indabyo, iyo nzu iherereye Kigali Kicukiro, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Inzu nziza ikaba ifite igipangu cy'icyatsi n'imiryango y'ikigina, iyo nzu mu imbere ifite ibikuta by'umweru, ikaba ari inzu iherereye i Kigali Kibagabaga, ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe, akaba ari inzu ikodeshwa.

Inyubako nziza kandi nini, ikaba ifite amabati asize ibara ry'umutuku ndetse igipangu cyaho kikaba gisize amabara y'ikigina, hari n'ikigega kinini gifata amazi y'imvura ikayabika, iherereye mu Mujyi wa Kigali, i Kanombe, ikaba igurishwa miliyoni mi mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu nziza kandi nini ikaba ifite amabati ari mu ibara ry'ikigina, imiryango yiyi nzu ikaba iri mu ibara ry'umweru, hanze hakaba hari amapave hateye n'uduti dutoya, iyi nzu ikaba iherereye i Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu nziza ikaba ifite inkuta zisize amabara y'ikigina ndetse ikaba ifite n'ubusitani buto iruhande rwayo, hakaba hateye n'ibiti biri mu mavaze. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inyubako nziza, ni inyubako iri mu mabara y'ikigina, inzugi ndetse n'amadirishya biri mu mabara y'umukara n'umweru, ikaba ifite n'amabati y'umutuku, ni inyubako iherereye i Kigali i Kanombe, ikaba igurishwa miliyoni ijana z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu ntoya iri mu mabara y'ikigina ikaba ifite imiryango ndetse n'inkuta zisize amabara ya shokora, kandi kurande y'iyo nzu hakaba hari izindi nyubako. N'inzu iherereye i Kigali i Gikondo, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ku kwezi, ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, Kibagabaga. Ni nzu nziza ifite igipangu cy'icyansi, inzugi z'ikigina ndetse n'inkuta z'umweru; ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe, ikaba ikodeshwa.

Inyubako nziza kandi nini ikaba ari inyubako y'igorofa rimwe, ikaba isize amabara y'umweru, ikaba iherereye i Kigali Kibabaga ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri.

Inyubako nziza iri mu mabara y'ikigina, ikaba ifite imiryango iri mu mabara y'umukara, ikaba ndetse yubakije n'amatafari ahiye, ku ruhande hari amapoto maremare atwara amashanyarazi mu baturage, ni nyubako ifite icyumba kimwe ikaba iherereye i Remera hafi ya stade ikaba ikodeshwa.

Abantu benshi bari gucacanamo harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba baje kwihahira, iyo nyubako ikaba igurirwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'abacuruzi bategereje abakiriya, bimwe mu bicuruzwa birimo birimo amasarori, amasahani, amaterimusi ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza kandi nini ikaba ifite ibikuta by'umweru hakaba harimo abantu bambaye udupira tw'ubururu basa nkaho bahakora, ndetse harimo n'abandi bantu baje kwihahira ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye hakaba ndetse kurukuta hariho ifoto y'umugabo wambaye ikositimu n'amarinete.

Ahantu hagaragara nkaho ari ahantu hafatirwa ifunguro, resitora, hari intebe hari ameza hari kugaragaramo umukobwa wambaye imyenda y'umukara ufite ibisuko bisa umukara bifungiye hejuru umeze nk'aho ari kuvugana n'umuntu wakira abantu.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo abantu bagenda bareba ibyo bahaha ndetse ababishimye bakaza kureba amafaranga bagomba kwishyura, hari ndetse n'abahakora barimo baragenda bayobora abo bantu, iyi nyubako ikaba ifite ibikuta by'umweru.

Inyubako nini ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse n'amakaro y'umweru, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba ari ahantu bacururiza ibintu bigiye bitandukanye, bakaba batonze umurongo baje kureba amafaranga bagomba kwishyura.

Unyubako nini kandi nziza, ni inyubako ifite amagorofa menshi. Mu imbere amakaro ni'mweru, ndetse n'umukara, n'igisenge cyabo kikaba ari umweru, harimo amatara menshi arimo araka. Abantu bakaba bagendagendamo ni inyubako wahahiramo ibintu bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba baje kwihahira, aho hantu hahurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibicuruzwa higanjemo amashakoshi, ibikapu, imyenda, inkweto ndetse n'ibindi.

Urujya n'uruza rw'abantu harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abaje kugura ndetse n'abarimo baracuruza. Iyi nyubako ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bimwe mu bicuruzwa harimo amashakoshi, ibikapu, inkweto ndetse n'ibindi.

Inyubako nini y'amagorofa menshi, ikaba ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, harimo urujya n'uruza rw'abantu, bamwe baje guhaha abandi ari abacuruzi, hari ibicuruzwa biri hanze ku maduka yiganjemo imyenda.

Urujya n'uruza rw'abantu, bakaba barimo abagore ndetse n'abagabo, bose bakaba bambaye udupfukamunwa, bakaba baje kwihahira, aho hantu hacuruza ibikoresho ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, mu ntoki bafite utuntu bagenda bashyiramo ibyo bashimye bagiye kugura.

Umugabo ndetse n'umugore, bakaba bambaye impuzankano za gipolisi, imbere yabo hakaba hari mudasobwa ziteretse ku meza, aho ahantu hakaba hari iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye ariko rikaba ryemerewe kugurirwamo n'abasirikare cyangwa n'abandi bavuka muri uwo muryango ufite umusirikare.

Ni inyubako nini y'amagorofa menshi, hanze hakaba hari icyapa kinini k'icyatsi, cyanditseho sawa siti. Ndetse akaba ari naho wakwinjirira, imiryango ikaba iriho ibyapa by'icyatsi, iyo ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi, bw'ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako nziza kandi nini, iri mu mabara y'ubururu hakaba hejuru yanditseho gira ubuzima, iruhande rwayo hateye ibyatsi byiza ndetse n'ibiti byinshi, hakaba hari n'abantu barimo imbere abandi bari hanze, bose bakaba bambaye udupfukamunwa.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati, yambaye amadarubindi n'agapfukamunwa, iruhande rwe hari umugore wambaye ibitenge n'agapfukamunwa, bakaba barimo baraherekanye igipapuro kinini cyerekana yuko umwe aha undi amafaranga, kizwi ku izina rya sheke, amazina y'uwishyuwe ni Mukanziga pascaline yishyuye miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu.

Abagore babiri umwe ahetse umwana undi yambaye igitenge bose bafite utuntu mu mutwe bitangiye, bakaba bafite udupapuro mu ntoki tumeze nka mituweli, bari ahantu hameze nko kwa muganga bakaba bategereje guhabwa serivisi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye akaba ari umugabo ufite telefone asa nkaho ari kwishyura, imbere yari umukobwa wambaye agapira k'umutuku urimo urapakira ibyo umuntu amaze kugura. Ndetse hari n'undi wicaye imbere afite mudasobwa agenda amubarira amafaranga agomba kwishyura aha hantu hacururizwamo ibintu byinshi yiganjemo ibyo kurya ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo umugore uri imbere waje kureba ibyo ari bwishyure uko bingana, hakaba n'umuntu uhakora wambaye umupira w'amaboko maremare w'umutuku urimo uramurebera, hanyuma ahita amubwira amafaranga agomba kwishyura uko angana, iyo nyubako ikaba ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye ikaba izwi nka superi marishe.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore kuruhande hari umukobwa wambaye agapira hejuru k'umuhondo ndetse n'itaburiya akaba asa nkaho akoramo ahohantu bakaba bamaze guhitamo ibyo bahaha ndetse baje kureba amafaranga bagomba kwishyura babishyize ku meza iriho mudasobwa bagenda bababarira amafaranga bari bwishyure aha hantu ni inyubako icururizwamo ibintu byinshi bijyiye bitandukanye izwi nka superi marishe.

Umuhungu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara akaba arimo aragenda akurura akantu agiye gushyiramo ibyo agiye guhaha ku ruhande hari n'undi n'abandi bantu bari kwihahira, inyubako ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bari hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari abantu bakora aho hantu bambaye udupira tw'umuhondo ndetse hari n'abaje guhaha, ahantu bari ni mu iduka riri gucuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hakaba barimo bagenda bashima ndetse ibyo bashimye bakabizana ahari abantu bakora aho hantu, ngo abarebere amafaranga bagomba kwishyura.

Inyubako nini kandi ndende, ifite inkuta ziri mu mabara y'umweru ndetse no hejuru igisenge cyaho kikaba gisa umweru, mu imbere harimo utumeza cyangwa utu etajeri turi mu mabara y'icyatsi, tukaba turiho ibiribwa birimo ibyo kurya nk'imineke, inanasi, ubunyobwa, ibishyimbo ndetse n'ibindi, ahantu akaba ari aho bagurira ibintu byinshi bigiye bitandukanye hazwi nka supirimarishe.

Umugore wambaye ipantaro ndetse n'agapira k'amaboko maremare k'icyatsi, mu ntoki ze akaba afite akantu arimo aragenda ashyiramo ibyaha, iyo nyubako n'inyubako bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye izwi nka superi marishe akaba higanjemo ibiribwa mu byo bacuruza.

Umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi k'umutuku ndetse n'itaburiya, akaba afite ibintu mu ntoki, imbere ye hari na mudasobwa, akaba akora muri iyo nyubako icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, aho uvuye guhaha ikintu akimuzanira hanyuma umukobwa akaba yamubwira amafaranga agomba kwishyura.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, iyi nyubako hasi ifite amakuru y'umweru ndetse hari na za etajeri zigiye ziriho ibicuruzwa birimo ibyo kurya cyane cyane, hakaba harimo ibisuguti, amavuta yo guteka ndetse n'ibindi. Hari n'abantu ndetse harimo baragendagenda muri iyi nyubako bashaka ibyo guhaha.